Aabaganga batera umuntu urushinge bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'udupfukamunwa tubarinda kwanduzanya indwara zigiye zitandukanye harimo Corona Virusi, harimo ibicurane, ndetse n'izindi.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe, uri gupima ndetse akanavura indwara zigiye zitandukanye abantu bageze mu myaka y'izabukuru, ndetse wegeranye n'umuganga uri kumufasha guha serivisi nziza ababagana.

Abantu bavoma amazi meza atunganyijwe n'ibigo bibifitiye ububasha, ibi ni ibikorwa byiza, kuko birinda abaturage kujya kuvoma ahantu kure, ndetse bikabarinda kuba bavoma amazi asa nabi yabatera indwara.

Abantu bavoma amazi meza asukuye, kwegereza abaturage amazi meza ni igikorwa cyiza kibarinda kujya kuvoma ahantu kure ndetse kikabarinda kuvoma amazi arimo imyanda yabatera indwara zigiye zitandukanye.

Ubuvuzi bwegereye abaturage. Abaganga bari gusobanurira umuturanyi ibijyanye n'ubuzima bwe, kugira ngo arusheho kugenda agira ubuzima bwiza, ndetse hakoreshejwe ubwirinzi bw'agapfukamunwa kugira ngo birinde kwanduzanya indwara zandurira mu buhumekero.

Dogiteri Sabine Nsanzimana, ni minisitiri ushinzwe ibijyanye n'ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda. Asobanura indwara yitwa kanseri y'inkondo y'umura, ikunda kwibasira igitsina gore ndetse ikazana n'urupfu, mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda.

Abaturage bavoma amazi meza ndetse yegereye ingo zabo. Ibi ni ibintu byiza, kuko bibarinda kujya kuvoma kure cyangwa se bakaba bavoma amazi adasa neza, yabatera uburwayi bugiye butandukanye.

Umwana uvoma amazi adasa neza yo mu kiyaga, wambaye imyenda idasa neza ndetse n'ayo mazi ayahagazemo, ibi ni ibikorwa bitari byiza kuko bitera indwara zigiye zitandukanye zituruka ku mwanda harimo inzoka.

Umuntu waheranwe n'agahinda ndetse ufite ibibazo byinshi. Ntabwo biba byiza kuguma uri wenyine. Ikintu kiba cyiza ni ugushaka umuntu muganira, ntugume uri wenyine cyangwa ugashaka umuganga ubyemerewe n'amategeko, ufite impamyabushobozi yabugenewe akagufasha mukaganira, kugira urusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu uganiriza uwagize ibyago cyangwa se ibindi bibazo bigiye bitandukanye kwiyakira bikamunanira. Ibi ni ibikorwa byiza kuko bimurinda indwara y'agahinda gakabije, mu kumubwira amagambo meza ndetse no kumuhumuriza.

Umuganga wabyigiye ndetse ubifitiye impamyabushobozi upima umuntu amenyo, ni igikorwa cyiza kirinda umuntu kuba yarwara amenyo mu buryo bugiye butandukanye ndetse bikamurinda n'umwanda wo mu kanwa.

Umuntu woza amenyo neza buri munsi akayitaho akoresheje akagozi kabigenewe mu gukura imyanda iba yarafashe mu menyo, ibi birinda amenyo kuba yarwara uburwayi butandukanye bw'amenyo ndetse n'umwanda.

Ibisubizo by'umuntu wapimishije amenyo mu byuma byabugenewe kandi byizewe, ibi ni ibintu byiza cyane kuko bigaragaza umwanda waba uri mu menyo cyangwa se uburwayi bwaba bwarihishemo umuntu atabuzi.

Umukobwa wita ku isuku y'amenyo ye ndetse akayakorera isuku akoresheje umuti wabigenewe ndetse n'uburoso. Ibi bimurinda uburwayi bufata amenyo ndetse akagira isuku mu menyo.

Umukobwa wita ku muntu ugeze ku myaka y'izabukuru. Ibi ni byiza cyane bituma umuntu ugeze mu myaka y'izabukuru, atiheba ngo agume ari wenyine, akumva yongeye kuba muzima.

Umuganga wita ku muntu ugeze mu myaka y'izabukuru. Ibi ni byiza birinda umuntu ugeze mu za bukuru kwiheba, kumva ko ubuzima burangiye ndetse bigatuma arushaho kugira ubuzima burambye ndetse bwishimye.

Icyapa cyerekana uburyo bwiza bwo kwirinda indwara ikomeye cyane yazahaje isi ariyo Corona Virus. Harimo gukaraba intoki inshuro nyinshi, kwambara agapfukamunwa ndetse n'izindi ngero zigiye zitandukanye z'uburyo twakwirinda iyi ndwara.

Kanseri ni indwara mbi cyane ndetse igiye iri mu bwoko bwinshi, hari kanseri ikunda gufata mu ibere, cyane cyane yibasira ababyeyi, hari kanseri yo mu bwonko, kanseri yo mu ngingo, icyo twakora ni ukuyirinda kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda cyitwa rbc, kirimo gutanga ubutumwa bujyanye no kwikingiza korona virusi kugira ngo abatura Rwanda barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse burambye butagira icyorezo.

Inyubako yagenewe ibitaro by'abarwayi harimo ibitanda biryamyeho abantu barwaye, harimo ibikenerwa byose kugira ngo umurwayi abone ubufasha bwihuse kugira akire vuba.

Inyubako yubatse neza ahantu hisanzuye hari ibidukikije, harimo ibiti, ibyatsi biduha umwuka mwiza ndetse ni inzu isize amarangi meza y'umweru, ubururu, umuhondo ndetse n'umutuku.

Inyubako yubatswe neza, ifite amarangi meza y'umweru ndetse n'ubururu, iyi nyubako yubatswe i Kanombe yitwa mediya zoro farumasi, iyi ni farumasi wabonamo imiti igiye itandukanye yagufasha mu kukuvura.

Inyubako nziza igeretse, ifite amarangi meza, umweru ndetse na orange, ifite ibidukikije bigiye bitandukanye harimo ibiti biduha umwuka mwiza. Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi aho ukura ubuvuzi butandukanye bwiza kandi bwihuse ukabasha gukira mu gihe cyihuse.

Inyubako iberamo ubuvuzi harimo umuganga wita ku barwayi neza afata amaraso kugira ngo ayabike azayateganyirize kuyaha undi muntu uzaba uyakeneye mu gihe runaka.

Inyubako yubatse ahantu heza hisanzuye hari udutebe tw'abana, udukinisho tw'abana ndetse n'amarangi agiye atandukanye, iyi ni inyubako igaragaza ko yahariwe ubuvuzi bwo ku kuvura abana batoya.

Imiti ifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'imyitozo igorora amagufwa, harimo bande, harimo amavuta agiye atandukanye, harimo ibinini bashobora kwifashisha mu gihe hari ikibazo kivutse.

Indege ntoya cyane zitagira umushoferi uzitwaye zizwi ku izina rya doronizi, izi ni indege zifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye cyane ubuvuzi aho zitwara amaraso ziyakuye ahantu hamwe ziyajyana ahandi.

Umuntu wicaye mu cyumba cy'ubuvuzi, ukurikirana inama zigiye zitandukanye na bagenzi be, kuri Mudasobwa, kugira ngo arusheho kunoza akazi ke neza mu gihe gitoya byihuse.

Igitabo cyitwa premium fabrics trips iki ni igitabo gifasha umuntu kuba yakwivura akoresheje siporo ndetse no kuba yakwirinda indwara zigiye zitandukanye, zituruka ku mubyibuho ukabije ndetse n'ibindi.

Imyitozo ngororamubiri ikozwe neza mu gihe gikwiriye ikagorora amagufwa neza, ndetse n'ingingo zose z'umubiri. Ibi ni ibintu byiza bituma umuntu arushaho kuramba akaramba mu buzima bwiza buzira uburwayi bugiye butandukanye.

Umusore unywa amazi menshi agakora siporo neza, ibi bimurinda indwara zigiye zitandukanye cyane cyane izituruka ku mubyibuho ukabije, harimo umuvuduko w'amaraso, indwara z'umutima, diyabete ndetse n'izindi.

Umukobwa ukora imyitozo ngororamubiri, akanywa amazi ahagije, ibi bimufasha ndetse bikamurinda indwara zigiye zitandukanye, harimo umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane.

Umukobwa ukora siporo ndetse akagorora ingingo z'umubiri we neza, ni igikorwa cyiza gifasha umuntu uwo ari we wese ndetse kikamurinda indwara zigiye zitandukanye, harimo umutima, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara zikomoka ku mubyibuho ukabije.

Umuntu ukora siporo anywa amazi ni byiza cyane bimurinda kuba yagira inyota ikabije mu gihe arimo gukora siporo cyangwa se akaba yagira ikindi kibazo gituruka ku buhumekero mu gihe ari muri icyo gikorwa cy'igororamubiri.

Inkweto z'umukara zifunze ahantu hose ndetse zizamuye ho gato, ni inkweto nziza zidufasha mu mugihe turi kwirukanka dukora siporo cyangwa se izindi siporo zigiye zitandukanye.

Umukobwa ugorora umubiri we neza agakora siporo zigiye zitandukanye kugira ngo agororoke ndetse yirinde bimwe mu bibazo biterwa n'umubyibuho ukabije ndetse n'indwara nka diyabete, umutima, umuvuduko w'amaraso n'izindi.

Umukobwa ukora siporo yambaye imyenda yabugenewe, agorora umubiri we neza kugira ngo bimurinde indwara zigiye zitandukanye zituruka ku mubyibuho ukabije, harimo diyabete, harimo umuvuduko w'amaraso, harimo indwara z'umutima n'izindi.

Imiti ya gakondo ifunyitse mu buryo bwiza bwabugenewe, mu ducupa twiza tw'umweru dufite utubara tugiye dutandukanye, iyi ni imiti ivura indwara zigiye zitandukanye ndetse ikaba yanarinda abantu uburwayi bugiye butandukanye.

Umuti uri mu gacupa k'umweru ufite amabara y'icyatsi. Uyu ni umuti ufasha abantu kubavura indwara zigiye zitandukanye mu bice biri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda.

Ububiko bw'imiti igiye itandukanye ya gakondo, ibitse neza ndetse ipanze neza ku buryo byoroshye kubona umuti ushaka bitewe n'indwara ushaka kugira ngo ukuvure, ukire, ubeho neza.

Ibiganza bikora imiti ya gakondo igiye itandukanye ndetse ivura indwara zigiye zitandukanye, iyi miti ntago iba yizewe cyane, niyo mpamvu tuba dukwiriye kuyigenzura neza, mbere yo kuyikoresha kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibiganza bitunganya imiti ya gakondo ahantu habugenewe, iyi ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye mu buryo bwiza kandi bwihuse umuntu akarushaho kubaho ubuzima burambye.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi ndetse n'imbuto zigiye zifite amabara ya oranje. Ibi ni ibimera byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ya gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye.

Amababi ya kimwe mu bimera byera mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yakifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, iyo miti izabasha kuvura abantu bagiye batandukanye, uburwayi bugiye butandukanye, bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Amababi y'ikimera afite ibara risa icyatsi, aya ni amababi yifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ivura abantu indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo.

Isabune ikozwe mu bimera harimo avoka, igikakarubamba ndetse n'ibindi. Iyi ni isabune idufasha koga neza tugacya ndetse ikica na virusi ziba zagiye ku mubiri wacu neza.

Igipimo kigezweho gipima ibimera bimwe na bimwe, byifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi. Igipimo ni cyiza cyane kuko gituma tumenya ibikwiriye mu gukora imiti ivura abantu bamwe na bamwe.